Abantu bari mu nama, bicaye ku ntebe za orange, imbere yabo hakaba hari abicaye ku ntebe z'umukara, hakaba hari n'inkingi ku ruhande ebyiri.

Abantu batatu bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hateretse uducupa tw'amazi, hakaba hariho umugabo w'umwirabura urimo gusoma igitabo.

Abantu bicaye bari mu nama bakaba bafite uducupa tw'amazi ku meza yabo, imbere yabo hakaba hariho porojegiteri yanditseho RURA.

Abantu bicaye mu nama, imbere yaho hakaba hariho ameza ariho icupa ry'amazi, akaba ari n'umugabo uhagaze, wambaye ishati y'amaboko maremare.

Abagabo batatu bicaye ku meza, imbere yabo hakaba hari uducupa tw'amazi ndetse na mayikofone, inyuma ya ho hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'agakaruvati.

Abadamu bicaye bari mu nama bakaba bicaye ku ntebe z'umweru, hirya hakaba hari n'abayobozi bicaye, hakaba hari n'umukobwa uhagaze ufite mikoro mu ntoki.

Abantu bicaye bari mu nama imbere yabo hakaba hari ameza hariho uducupa tw'amazi, impande yaho hakaba hariho ibyapa akaba ariho by'idarapo by'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bicaye bari mu nama, imbere yabo hakaba hariho abagabo bane ndetse n'umugore umwe, hejuru hakaba handitseho National Disaster Risk Reduction and Management Conference.

Umuntu uhagaze wambaye ijire y'umukara akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, akaba afite mikoro, akaba asa nkuri guhugura abantu, hirya ye hakaba hari n'ikigega gisa umukara.

Abantu bicaye mu gishararagati, imbere yaho hakaba hari isakoshi ziri hasi, hakaba hari n'indi iri hejuru y'ameza.

Abantu bari mu nama bicaye, imbere yaho hakaba hariho icupa ry'amazi, n'icupa rya ji, impande yaho akaba ariho umutako, ushushanyijeho inka ebyiri.

Abagabo bicaye ku meza, mbere yaho hakaba hariho amazi, umwe muri bo akaba yambaye amarinete, akaba afashe na bike mu ntoki.

Abantu bicaye imbere yaho akaba hariho uducupa tw'amazi. imbere hakaba hari umudamu ufite mikoro wambaye igitambaro mu mutwe na amarinete akaba yambaye n'ishati y'umuhondo.

Abagabo bari mu nama, umwe yambaye ishati isa ubururu n'amarinete yifashe ku munwa, undi hirya akaba yicaye ku ntebe y'umukara akaba yambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umukara.

Abantu bari mu nama bicaye impande yabo hakaba hariho agacupa k'amazi ndetse n'akaji hakaba hari n'abantu bahagaze.

Abantu bicaye imbere bambaye imipira ya rakosite isa icyatsi, imbere yaho hakaba hariho ji n'amazi, inyuma yaho hakaba hari n'abandi bantu bambaye imipira isa umuhondo.

Abantu bicaye bari mu nama imbere yaho ku meza hakaba hariho amacupa y'amazi ya laputopu imbere yaho bakaba barimo barareba kuri sikirini iriho amabara y'umweru n'ubururu hakaba hariho n'amagambo ayanditseho.

Abantu bane harimo batatu bicaye n'umwe usutamye uri kwandika urupapuro hejuru y'ameza, akaba afite n'ikaramu mu ntoki.

Abantu bicaye muri sare y'inama, imbere yaho, hakaba hariho ameza adekoreshejwe n'ibitambaro by'umweru, hakaba hateretseho amazi y'Inyange.

Abantu bari mu nama hakaba harimo abambaye utujire babiri, hejuru ku meza akaba hariho amacupa y'amazi, imbere yabo akaba ari ibishushanyo by'amazu.

Abantu bicaye basa nkaho bari mu nama, imbere yaho bakaba bafite mudasobwa n'undi muntu urimo kwandika ku gakayi, imbere yabo hakaba hari imbere televiziyo.

Abaturage bicaye ku ntebe zisa n'umweru, b'abadamu. Bakaba bari mu itente rifite amabara y'ubururu n'umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Bantu bari muri sale y'inama bakaba bahagaze, imbere yaho hakaba ariho amazi ndetse n'ameza ariho igitambaro gisa umweru n'umukara.

Abantu bicaye muri sale y'inama imbere yabo hakaba hateretseho uducupa tw'amazi, imbere hakaba hicaye abantu barimo kubasobanurira ibintu runaka.

Ifoto iriho abantu bari mu nama. Imbere yaho hakaba hari umuntu, inyuma yaho hakaba hari icyapa cyanditseho koperativu Lidashipu Simino bibiri na makumyabiri na Kane.

Abantu bicaye impande y'ameza hagati bakaba bafite uducupa tw'amazi bakaba bambaye imyenda y'umweru n'umukara, umwe muri bo agasa nk'aho arimo kubasobanurira ku ruhande hakaba hariho ibyapa byamamaza.

Abadamu babiri bambaye amarinete, umwe akaba yambaye imyenda y'abayisiramu, imbere yaho hari telefone, inyuma hakaba harimo n'abandi bantu.

Abantu bicaye bari mu nama, imbere yaho hakaba hari amacupa y'amazi, n'icupa rya fanta. Hejuru yaho haba ari purojegiteri iriho ibara ry'u Rwanda n'utubara tw'icyatsi n'umukara.

Umugabo uhagaze wambaye rakosite isa icyatsi akaba afashe na mikoro mu ntoki, impande ye hakaba hari abantu bicaye bambaye imipira isa umuhondo n'icyatsi.

Abantu bari mu nama imbere yaho hakaba hariho ameza ateretse uducupa tw'amazi hakaba hariho n'umugabo urimo gukamera hirya yaho hakaba hariho ibyapa ndetse n'ifoto ya perezida.

Abantu bicaye mu nama bakaba bafite uducupa tw'amazi ku meza, hakaba hariho umugabo ufite mikoro wambaye rakosite y'umutuku n'ipantaro y'umukara, ku ruhande hakaba hariho ibyapa biriho ibendera ry'u Rwanda.

Umugabo uhagaze, akaba yambaye ijire y'umukara, akaba arimo kwigisha abaturage bicaye, hakaba hari n'ibiti bihateye.

Abantu bicaye muri sale y'inama, bakaba imbere yabo hari uducupa tw'amazi, hakaba hari n'umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi, ku ruhande hakaba hariho n'ibirango byamamaza.

Ifoto y'abana b'abanyeshuri bicaye muri sale, imbere yaho hakaba hari umuyobozi urimo kubaha amabwiriza.

Abagore babiri bicaye, umwe imbere ye hari kompiyuta ifunguye n'icupa ry'amazi ku ruhande, undi akaba yicaye kompiyuta ye ikaba ifunze.

Abantu bari mu nama bicaye ku meza yaho hakaba hateretse amacupa y'amazi, hakaba hari abagabo babiri bafite kompiyuta.

Abantu bicaye ku ntebe bakaba bafite uducupa tw'amazi ku meza yabo, imbere yabo hakaba hari umugabo uhagaze ufite mikoro uri kubasobanurira.

Abantu bicaye n'abandi bahagaze barimo gufata ifoto, imbere yabo hakaba hariho ameza arihoho ibitambaro by'umutuku, hakaba hariho n'uducupa tw'amazi.

Hari abantu batanu, harimo umugore umwe, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza, hakaba hari n'izindi ntebe ku ruhande rwabo zitariho abantu.

Abantu bicaye, basa nk'aho bari mu nama, imbere yaho bakaba bafite kompiyuta n'amazi, hakaba hari n'umugabo uhagaze, uri kubereka amagambo kuri porojekiteri.

Abantu bicaye mu nama, imbere yaho hakaba hari abagabo babiri, bambaye ikositimu z'umukara, amashati y'umweru, ndetse na karuvati.

Abantu bicaye mu nama imbere y'aho hakaba hariho uducupa tw'amazi, imbere hakaba hicaye abantu batatu, inyuma y'abo hakaba hariho amagambo yanditseho ceo forum.

Abantu bicaye bari mu nama, imbere yaho hakaba hari amacupa y'amazi, imbere hakaba hari abantu babiri n'undi umwe uhagaze, ku ruhande hakaba hari ibyapa biriho amagambo y'umweru n'andi y'ubururu.

Abanyeshuri bicaye kuri kompiyuta bambaye amashati y'imyeru, impande yabo hakaba hari abayobozi bari kubererekera bambaye kositimu z'imikara n'amashati y'imyeru.

Ifoto iriho umukinnyi ikaba iriho n'ibirango by'amakipe ariyo ya Arisenali, Parisenjerime, bayeni munici, ikaba iriho na turu di Rwanda hejuru hakaba handitseho viziti Rwanda.

Umunara w'umweru n'umutuku uzengurukishijweho uruzitiro rw'utwuma, ku ruhande hakaba hariho igipangu gisa umukara, inyuma yaho hakaba harimo kubakwamo inzu itararangira.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara nu'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Ukwereka ko habura umunsi umwe itariki ntarengwa yo kwishyuriraho umusoro wa Rwanda reveni otoriti ngo ube warangiye.

Bari kukwereka mudasobwa ifunguye, barimo kukwereka uburyo wakwinjira mu irembo, ukagenda ukora serivise zigiye zitandukanye, bakagenda bakwereka uburyo sitepu ugenda uzikurikiza.

Abakobwa bahagaze, bafashe amatelefone, barimo gufata amafoto y'ikintu runaka cyangwa umuntu runaka, bakaba bambaye n'udupfukamunwa.

Ibyapa byamamaza, bikaba biriho umuntu ushushanyijeho, hariho n'ibindi byapa bya eyateli, cyangwa se hariho n'amabanke menshi yamamaza, agiye atandukanye.

Bari kukwereka mu magambo RGB, Rwanda gavunensi bodi bari kukwereka uburyo ushobora kwaka serivisi zabo ku irembo utahigereye ukabikora kuri mudasobwa yawe.

Mashini iriho amagambo agiye atandukanye, ku ruhande hakaba hari telefone ikanzeho imibare, ku ruhande naho hakaba handitseho amagambo avuga ngo "menyekanisha uyu munsi umusoro ku nyungu za bibiri na makumyabiri na gatatu, wishyure bitarenze mirongo itatu n'umwe z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kane".

Ari kukwereka akamashini gafite imibare igiye itandukanye hakaba hari n'urutoki rufashe ikarita ku ruhande hakaba handitse, genzura neza ko amafaranga washyize ku ikarita ya tapu endi go yagiyeho.

Bari kukwereka apulikasiyo ushobora gukoresha ujya muri sisiteme y'ibigo bya Leta cyangwa se ibigo mpuzamahanga.

Abantu bane bicaye mu isomero, imbere yaho hakaba hari mudasobwa, imbere yaho hakaba hari umugabo uhagaze, urimo gusoma igitabo.

Uburyo bwerekana uburyo ushobora gukoresha serivise za Rwanda reveniyu otoriti, kuri mudasobwa, ushobora gukoresha wishyura serivise ukoresheje mobayilo mane, cyangwa se ukoresheje uburyo bwa banki.

Aradibi Rwanda developumenti bodi, ikaba yagize amagambo yandika ku rukuta rwayo rwa ekisi.

Ni inzu iriho icyapa cy'ubururu n'umweru iriho ibirango bya ecobank exprespoint iriho n'umugabo ku ruhande hakaba hari n'umuryango ufunguye.

Urupapuro rwa rwanda revenu otoriti rukwereka uburyo ushobora kuba wakwishyura imisoro cyangwa se izindi serivisi zigiye zitandukanye.

Urupapuro rwamamaza serivise, urwo rupapuro rukaba rugizwe n'amabara y'umweru n'ubururu, hejuru yaho hakaba hari n'akandi gasa umuhondo.

Icyapa kiriho inyuguti za rebu mu mabara y'ubururu, munsi yaho akaba ariho ibara ry'idarapo ry'ubururu n'umuhondo n'icyatsi, hasi akaba ariho amagambo y'umukara yanditseho Rwanda edikesheni bodi.

Amagambo yanditse mu nyuguti z'umukara, yerekana uburyo bwa serivisi z'ubwikorezi. Hejuru yaho hakaba hariho amagambo yanditse mu nyuguti z'umweru, yanditse ngo: Transport services mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Umunara muremure usa umweru n'umutuku, uzengurukishijwe n'utwuma na senyenge hejuru, ku ruhande hakaba hariho akazu gafite umuryango w'umukara gacanyeho n'itara.

Umunara w'itumanaho rya emutiyene, ukaba uzengurukijwe n'amabara y'umutuku n'umweru ariho ibirango bya emutiyeni.

Umunara muremure uriho ibikoresho, uzitirishijwe n'utwuma, ku ruhande hakaba hariho ibiti, hakaba hariho n'ibigori, impande yaho hakaba hari n'inzu.

Umunara muremure ufite ibara ry'umweru n'umutuku uzengurukishijweho n'utwuma, ku ruhande hakaba hariho ibirango bya emutiyeni.

Inzu iri ku muhanda ikaba ifite igisenge gisa umukara, ikaba ifite n'igipangu cya korotire, impande yaho hakaba hariho ipoto ririho insinga nyinshi.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zigiye zitandukanye impande yaho hakaba hari inzu hejuru y'iyo nzu hakaba hari iminara.

Ipoto riri ku muhanda rikaba ririho itara ricana rikaba ritambikishijwe n'insinga, impande yaho hakaba hariho ibiti.

Poto y'amatara yo ku muhanda ikaba iriho insinga zigiye zitandukanye impande yaho hakaba hariho ibiti ndetse akaba hariho n'akapa ku ruhande ka eyateri.

Abantu b'abatekinisiye bambaye amasarubeti y'ubururu n' ingofero z'umuhondo, bari hejuru abandi bakaba bari hasi, hakaba hari uri kuzamuka ku rwego.

Ipoto y'amashanyarazi ishinze, hagati yayo hakaba hariho insinga zigiye zitandukanye, hejuru yaho hakaba hariho igicu kigizwe n'amabara y'umweru n'ubururu.

Umunara ukoze mu byuma, munsi hakaba hariho ibyatsi impande yaho akaba hariho ibiti birebire biteye.

Bari kukwereka ipoto y'ibyuma y'amashanyarazi, bakakwereka na taransifo, hasi yaho bakakwereka ibiti byo muri pipiniyeri, ku ruhande bakakwereka n'igiti cy'umugano.

Umuhanda uriho bariyeri iriho amabara y'umweru n'umutuku, impande yaho hakaba hashinze ipoto ry'amatara.

Amapoto abiri ashinze ku muhanda, hasi hakaba hari pasiparume iteyeho indabyo ku ruhande rwaho hakaba hari igikuta, ku ruhande hakaba hari akayira k'abanyamaguru.

Umukobwa uhagaze kuri sitasiyo banywesherezamo esanse, akaba yambaye agapfukamunwa n'ingofero, imbere ye hakaba hari moto ifite amabara y'icyatsi n'umukara.

Umunara muremure ukozwe mubyuma, ku ruhande hakaba hariho imbuga iriho ibyatsi, hirya yaho hakaba hariho ibiti bihateye.

Umuhanda w'igitaka, ku ruhande hakaba hariho agaferege gacamo amazi, hejuru hakaba hateyeho ibigori ndetse hakaba hashinze n'ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zitandukanye.

Ipoto y'amashanyarazi ikaba yegeranye n'igiti cyumye munsi hakaba hariho inzu ifite amabati asa umutuku, ku ruhande hakaba hari n'agahanda k'abanyamaguru.

Ipoto ry'amashanyarazi rikozwe muri beto, rikaba rizengurukijwe n'amakamba y'amashanyarazi, impande yaho hakaba hateye ibiti.

Umuhanda w'abanyamaguru wegeranye n'imbuga iriho igiti, no kuruhande hakaba hariho igikuta.

ifoto iriho igikuta iriho ipoto y'amashanyarazi hejuru hariho insinga hakaba hariho n'ibiti ku ruhande n'igisenge cy'inzu.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu, wazamuye ishati, ugiye guterwa urushinge ku kaboko ke, akaba yambaye isaha.

Imodoka ziparitse muri parikingi imbere yaho hakaba hari agakuta k'amatafari n'inyuma yaho hakaba hari izindi modoka kuruhande hakaba hari inzu imbere yaho hari akuma gahagaze gafashe igisenge cy'amabati.

Imodoka y'imbangukiragutabara ihagaze, ikaba ifite amabara y'umweru n'ubururu. ndetse n'umutuku. Ikaba yambaye n'ikiyiranga kiriho jr magana abiri mirongo cyenda na gatandatu e.

Imodoka ebyiri ziparitse imbere yaho hakaba hariho ibyapa bibiri, kimwe cyanditseho isange one stop center ikindi cyanditseho Kacyiru hosipito, impande yaho hakaba hari inzu.

Abantu bahagaze bari kwaka serivisi z'ubuvuzi cyangwa se izindi zigiye zitandukanye, impande yabo hari idirishya ndetse n'urugi.

Abantu bane basa nkaho barimo baragenda ku ruhande rwaho hakaba hari imodoka ya ambiranse ari iy'imbangukiragutabara, inyuma yaho hakaba hari inzu, ku ruhande rwaho hakaba hari abantu.

Bari kukwereka umudamu w'umucamanza wambaye amarinete, akaba yambaye n'imyenda y'igikanzu gisa umutuku, umukara ndetse n'umweru.

Umukobwa wambaye amapingu ku mpande akaba ari abapolisi ba abagore impande ye akaba ari umwunganira mu mategeko wambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'umweru akaba afite ibitabo mu ntoki.

Umuntu wambaye imyenda y'imfungwa isa iroza, akaba azengurukishijwe n'abantu bicaye hakaba hari n'abandi barimo kumuburanisha impande yabo hakaba hariho ibiti.

Abagabo babiri bambaye kositimu z'umukara umwe akaba afite karuvati y'umutuku undi akaba afite karuvati y'ubururu irimo uturongo inyuma yaho hakaba hari ibyuma bifashisha mu muziki.

Abapolisi babiri, bambaye impuzankano z'igihugu cy'u Rwanda, bafashe umuntu hagati, uwo muntu akaba yambaye ishati y'ubururu n'amarinete.

Umugabo wambaye imyenda y'abacamanza isa umutuku wijimye n'umukara n'umuhondo, mu imbere akaba yambaye ishati isa ubururu na karuvati.

Umugabo w'umucamanza wambaye marinete, ikanzu isa umutuku wijimye n'umukara n'umuhondo, mo imbere akaba yambaye ishati isa umukara na karuvati.

Abantu bicaye bari kuburanisha umuntu uhagaze, impande yaho hakaba hari abaturage bicaye hasi bafashe n'imitaka hirya yaho akaba hari n'inzu.

Bari kukwereka abacamanza bicaye ku ntebe z'umukara bambaye amakanzu y'umutuku arimo n'utubara tw'umweru, bakakwereka n'abandi bambaye amakanzu y'umukara arimo n'umweru bakaba bambaye n'ingofero z'umukara ku mutwe.

Umusaza wambaye agapfukamunwa, akaba yicaye ku ntebe y'umukara, akaba yambaye imyenda y'iroza y'abagororwa, akaba mu ntoki afite rojisitire ifunguye isa ubururu.

Umucamanza wambaye ikanzu y'umutuku n'umweru ifite utuntu tw'umukara hagati, wambaye n'ingofero isa umuhondo n'umukara, impande ye hakaba hari idarapo ry'ubururu n'umuhondo na mikoro imbere yiwe.

Abagabo b'imfungwa bambaye imyenda y'iroza bari gusohoka, impande y'aho hakaba hariho igikuta cy'amatafari ahiye.

Abantu bicaye imbere yabo hakaba hari ameza, hakaba hari n'umuntu uhagaze w'imfungwa wambaye imyenda y'iroza, impande ye hakaba hari n'abaturage bicaye baje kumva urubanza.

Perezida Paul Kagame wambaye ikositimu isa ubururu n'ishati y'umweru, akaba arimo gusuhuza umucamanza wambaye ingofero isa umukara n'umuhondo ndetse akaba yambaye igikanzu gisa umutuku.

Amagazi ateretse hasi, azimya inkongi y'umuriro, akaba ari mu ibara ry'umutuku n'ubururu, n'umweru, hakaba handitseho amagambo pawuda.

Imodoka ziri mu muhanda ziri kubisikana, hakaba hariho n'umumotari utwaye umugenzi, impande yaho akaba ari agahanda k'abanyamaguru.

Icupa rya gaze rifunze rikaba rigizwe n'umugozi w'umukara rikaba ririho n'ibirango ku ruhande biriho amabara y'umweru n'ubururu byamamaza.

Icyapa cya ribu Rwanda Imvesitagesheni Biro, urwego rw'ubugenzacyaha, rukaba rwanditseho n'amagambo ari yo Nyamirambo Ribu Sitesheni.

Amarembo ariho bariyeri iriho amabara y'umweru n'umukara, imbere yaho hakaba haparitse imodoka za polisi ndetse n'igikamyo cya polisi.

Umupolisi uhagaze ku gahanda k'abanyamaguru wegeranye n'abamotari babiri bari kuri moto. Umuporisi akaba yambaye ijire isa umukara ndetse n'icyatsi.

Gaze y'umutuku ifite n'amabara y'umweru n'ubururu, izimya inkongi. Ikaba yanditseho powuda, ikaba iteretse ku gikuta.

Bari kukwereka inzu y'igorofa ikorerwamo serivisi za polisi. Hanze yaho haba hariho imodoka ebyiri: imwe isanzwe n'indi ya polisi.

Ifoto ya Juvenal Habyarimana perezidade w'u Rwanda wambaye udukuteri mu matwi, impande ye hakaba ari n'abandi bagabo batwambaye.

Umugabo uhagaze wambaye amarinete, ikositimu y'umukara, akaba yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara inyuma ye hakaba hari umuntu.

Abantu batandatu bicaye, muri abo bantu batandatu harimo abagore babiri, inyuma yaho hakaba hari abandi bafashe impapuro z'umweru.

Abayobozi bari kurahira bafashe ku idarapo ry'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, akaba ari abagabo babiri n'abagore babiri, n'inyuma yaho hakaba hari abandi barimo kurahira.

Abagabo babiri bicaye bambaye ikositimu z'umukara, umwe akaba afashe terefone mu kiganza asa nkaho arimo gufotora.

Perezida Paul Kagame wambaye umupira w'umukara, akaba amanitse akaboko hejuru hakaba hari n'abantu benshi bahagaze bafite utudarapo twa FPR, turi mu ibara ry'umutuku n'umweru n'ubururu.

Ifoto iriho abantu bambaye imyenda y'umutekano, inyuma yaho hariho abaturage benshi, hakaba hariho n'amadarapo agizwe n'amabara y'umutuku n'umweru n'ubururu.

Abagabo batatu harimo babiri bahagaze hakaba harimo umwe uzamuye ibiganza, imbere ye hakaba ari miko fone, inyuma yabo hakaba hariho umugabo ndetse n'imodoka iparitse.

Perezida wa repubulika Paul Kagame akaba ari kuvuga ijambo, yambaye ikote ry'umukara rya kositimu n'amarinete, imbere hakaba hari mikoro ebyiri.

Abantu binjira abandi basohoka ku gipangu, hejuru hakaba hariho icyapa yanditse ngo "Twitabire amatora duhitemo neza" Ku ruhande hakaba hashinze insina.

Ifoto ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame iyo foto ikaba iriho n'abagabo bashinzwe umutekano wiwe bambaye impuzankano z'umukara.

Kwasiteri irimo abagenzi, ku ruhande hakaba hari ibiti bihateye, imbere yaho gatoya hakaba hari moto iriho umugenzi inyuma.

Imodoka za rukururana zipakira imizigo ebyiri ziri mu muhanda, impande y'aho hakaba hariho akayira k'abanyamaguru.

Moto ziparitse, ku ruhande hakaba hariho akayira k'abanyamaguru, hakaba hahagaze abantu babiri ndetse hakaba hari n'icyapa gishinze, cyamamaza.

Agahanda k'abanyamaguru, kakaba kariho abanyamaguru babiri, ndetse hakaba hariho n'uduti duteye ku ruhande, hakaba ariho kaburimbo irimo moto, iyo kaburimbo ikaba iriho n'amabara asa umweru.

Ikamyo y'ubururu imbere yaho hakaba hari umuhanda ,impande yaho akaba ari amakaziye y'umutuku inyuma yaho hakaba hariho n'inzu iriho ibirahuri.

Imodoka ya kwasiteri y'amabara y'ubururu, umweru n'umukara, iri mu muhanda kuruhande hakaba hari arete abantu bicara bategereje imodoka, ndetse hakaba harimo nabantu barimo baragendera ku ruhande.

Imodoka itwara imizigo y'ikamyo iri mu muhanda, inyuma yayo hakaba hariho umuntu utwaye igare ririho imizigo ndetse n'umumotari ku ruhande, impande yaho hakaba hariho umuhanda w'abanyamaguru.

Ifoto y'abana b'abanyeshuri bicaye muri sale, imbere yaho hakaba hari umuyobozi urimo kubaha amabwiriza.

Moto ziri mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yabo hakaba hariho igikamyo cya rukururana gitwara imizigo, hirya hakaba hariho ishyamba riteyemo ibiti.

Imodoka y'umweru n'umuhondo iri mu rugendo ikaba irimo imbere umuntu ku ruhande rwayo hakaba hari ibiti bihateye, iruhande hakaba hari n'inzu ifite amabati atukura.

Bari kukwereka imodoka z'amakamyo ziri mu muhanda, imwe ikaba itwaye umucanga, ku ruhande hakaba hariho agahanda k'abanyamaguru.

Umunyonzi utwaye igare muri kaburimbo, impande ye hakaba hariho akamoto gatwara imizigo, impande ye hakaba hariho umuhanda w'abanyamaguru bacamo.

Abantu babiri begeranye n'imodoka iparitse yanditseho yego cabs hirya hakaba hari inzu iriho ibyapa bigiye bitandukanye.

Imodoka ya kwasiteri iri mumuhanda isa nkaho yakoze impanuka, impande yayo hakaba hari abagenzi barimo baragenda.

Imodoka y'itoyota, iparitse inyuma y'igipangu gisa umukara, inyuma yaho hakaba hariho abagenzi bari mu muhanda w'abanyamaguru, hirya yaho hakaba hubatse inzu y'itaje.

Umuhanda urimo abamotari n'umuntu utwaye igare, impande ye hakaba hari imodoka, hirya yaho hakaba hari amazu y'ubucuruzi ariho ibyapa bigiye bitandukanye.

Umumotari uri mu muhanda, impande ye hakaba hari no mu gahanda k'abanyamaguru hakaba hateye ibiti, hepfo ye hakaba hariho imihanda igiye itandukanye, yerekana ibyerekezo abantu bagiyemo.

Imodoka ya Dayihatsu y'umweru ikaba ifite shitingi hejuru isa ubururu ikaba izirikishijwe imigozi, impande yaho hakaba hariho ibiti biteye ku kumuhanda.

Umumotari utwaye umugenzi, bakaba bari mu muhanda, bakaba bambaye kasike zisa ubururu, impande yaho hakaba hariho igipangu cy'umukara, hakaba hari kugaragara n'igisenge cy'inzu cy'amabati y'umutuku.

Ibinyabiziga bitatu biri mu muhanda, ik'imbere akaba ari ikamyo, impande yaho hakaba hariho kwasiteri itwara abagenzi, impande yaho akaba ari akamoto gatwara imizigo, impande yaho hakaba hari agahanda k'abanyamaguru.

iIkamyo ikoreshwa mu bwubatsi, iri mu muhanda, inyuma yaho akaba ari abagenzi bari kuri moto.

Kwasiteri y'umweru iri mu muhanda, ku ruhande hakaba hari agahanda k'abanyamaguru, impande yaho hakaba hari ibiti.

Mu nzu y'ubwiteganyirize mu kwivuza ya ara esi esibi hicayemo abantu benshi batandukanye, higanjemo abakozi b'iki kigo ndetse n'abaturage baje kwaka serivise.

Umumotari uhagaze mu muhanda, imbere ye hakaba harimo umumotari uri kumanuka, hepfo y'iwe hakaba ahaparitse imodoka, ku ruhande hakaba hariho igikuta, mo imbere hakaba hubatsemo inzu.

Imodoka y'uruganda rwa sulufo iri mu muhanda, inyuma y'ayo hakaba hariho moto iriho umumotari, ku ruhande hakaba hariho umuntu urimo gucuruza ibisheke.

Imodoka y'ikamyo isa umweru, hejuru ikaba ifite ipine, hirya yaho hakaba hariho akayira k'abanyamaguru, hakaba hariho n'ibiti bihateye.

Umumotari utwaye umugenzi mu muhanda impande yaho hakaba hari ibiti by'imikindo na pasiparume hakaba hari n'amabara y'umweru n'umukara.

Umumotari utwaye umugenzi mu muhanda inyuma hakaba hari abantu n'amamodoka hirya yaho hakaba hariho umusozi uteyeho ishyamba.

Umuhanda usa nkaho urimo kuvamo umunyamaguru asa nkaho arimo kwambuka imbere ye hakaba hari imodoka zirimo ziragenda mu muhanda.

Imodoka za Coaster zihagaze, hakaba hariho n'urujya n'uruza rw'abantu, barimo baragenda, hakaba hariho n'urimo kugenda, yikoreye umufuka ku mutwe.

Imodoka y'ikamyo bifashisha mu bwubatsi cyangwa se mu yindi mirimo igiye itandukanye, ikaba isa umweru n'umukara, hariho n'amagambo yanditseho ibara ry'ubururu, ikaba iri mu muhanda. Hagati yawo harimo uturongo tw'umweru.

Abantu bari kuri moto basa nkaho bari mu rugendo bakaba bari mu muhanda, imbere yaho hakaba hari imodoka y'umweru n'amapine y'umukara ku ruhande hakaba hari inzu iriho ibyapa byamamaza.

Abantu bari kugendera mu gahanda k'abanyamaguru impande yaho hakaba hari imodoka y'itoyota iparitse hakaba hari umuntu urimo kuyishyiramo ipine.

Imodoka ziri mu muhanda wa kaburimbo akaba ari imodoka ebyiri, imwe y'ivatiri n'indi ya kwasiteri. Impande yaho akaba hubatse amazu y'ubucuruzi.

Imodoka z'amakamyo atwara imizigo ebyiri zisa nk'izihagaze ku muhanda, imwe ikaba irimo imizigo indi ikaba nta mizigo ifite, impande yaho hakaba hari akayira k'abanyamaguru.

Abantu bicaye ahagenewe kwicara inyuma yaho hakaba hari amazu y'amagorofa abiri, hagati hakaba hari umugabo wambaye ishati yumutuku, n'ipantaro y'umukara uri kuri terefone.

Ikibuga cyo gukiniramo umupira kikaba gifite amazamu, nyuma yaho hakaba hariho n'amafile kikaba kizengurukishijwe na senyenge.

Imbuga irimo jaride, hirya yaho hakaba hariho tere iriho paniye za basikete, impande yaho hakaba hagaragara amabati afashwe n'inkingi z'ibyuma zisa ubururu n'umuhondo.

Icyapa cya tiriyangire gisa umutuku n'ibara ry'umweru, gishinze ku kuma karekare, munsi hakaba hariho akazenguruko k'umukara.

Icyapa cya mpande enye, gisa umuhondo n'umukara, hagati hakaba harimo ibyapa bitatu bigiye bitandukanye. Bikaba bisa umukara.

Ibyapa bibiri cy'umutuku n'umweru hagati kiriho ibara ry'umukara, ry'umuhanda werekana ibisate bigiye bitandukanye hasi yacyo hakaba hari n'ikindi cyapa kirimo umuntu wambuka umuhanda kikaba giherereye ku muhanda.

Icyapa cy'uruziga rusa umutuku rukaba rufite n'akarongo gatambitse gasa umutuku, mo hagati hakaba hariho ibyapa kimwe kireba haruguru ikindi kikaba kireba hepfo akaba ari ibyapa bibiri.

Icyapa cya mpande enye cy'umuhondo n'umukara, kikaba kiriho amagambo y'umukara yanditseho Silowu n'agashushanyo k'imodoka.

Icyapa cy'uruziga kirimo umurongo utambitse kirimo n'imodoka, icyo cyapa kikaba kigizwe n'ibara ry'umutuku umweru n'umukara.

ibyapa bya mpande eshatu bitandukanye kimwe kikaba kiriho ibara ry'umutuku n'umweru kikaba kirimo hagati, indege ikindi gisa nacyo umutuku n'umweru mu imbere hakaba hariho cumi na kabiri ku ijana byanditse mu mabara y'umukara.

Icyapa gisa umuhondo n'umukara hagati kikaba kiriho ibimenyetso by'umuhanda, bikaba biriho umukara.

Icyapa cya tiriyangere gisa umutuku n'umweru ndetse hagati hakaba hariho n'icyapa cyerekana uko imihanda icamo kiri mu ibara ry'umukara.

Abanyonzi bahagaze ku muhanda w'abanyamaguru bakaba bafite n'amagare yabo. Impande yaho hakaba hariho icyapa cyerekana ko nta kamyo yemerewe guca ahongaho kikaba kiri mu mabara y'umutuku n'umweru n'umukara.

Icyapa cya tiriyangere gisa umutuku, umweru n'umukara, hagati cyanditseho amagambo Yeridi, kikaba kiri hagati mu byatsi.

Icyapa gisa umuhondo ndetse n'umukara, hagati hakaba harimo umuhanda werekana ibyerekezo bitandukanye, ukaba uri mu mabara y'umukara.

Bari kukwereka abamotari bari mu muhanda bakakwereka ku ruhande agahanda k'abanyamaguru, bakakwereka na jaride iteyemo ibiti iriho icyapa cyanditseho sitopu mu mabara y'umweru n'umutuku.

Utwapa tubiri turi ku muhanda ako hejuru ndetse n'ako hasi, ako hejuru kakaba kanditseho KN gatatu AV ako hasi kakaba kanditseho KN mirongo itatu ST, tukaba turi mu ibara ry'umukara n'umweru.

Akapa k'umutuku n'umweru kari mu ishusho ya mpande eshatu, hagati hakaba hariho udusozi tubiri mu ibara ry'umukara, kakaba gahagaze ku cyuma.

Icyapa cy'umutuku n'umweru hagati hakaba hariho igishushanyo gisa nk'umuhanda cy'umukara, Icyo cyapa kikaba kizengurukishijwe n'ibara risa n'umweru.

Umuntu uri mu muhanda w'abanyamaguru, impande ye hakaba hari inzu ndetse n'imbere ye hakaba hari icyapa cy'umutuku n'umweru kiriho mirongo itandatu.

Icyapa kiri ku muhanda cyanditseho amagambo; Akanyaru, Huye, Muhanga; munsi handitseho Ruhango, Kinazi. Ku ruhande kaba hubatse inzu zo guturwamo.

Icyapa gisa ubururu kizengurukijweho n'amabara y'umutuku n'umweru n'umukara, akaba yanditse mirongo itandatu mu ibara ry'umukara.

Urupapuro rw'umweru, rushushanyijeho uruziga rw'umukara, hagati hakaba hariho igishushanyo cy'umukara.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, kikaba gifite amabara y'umutuku n'umweru, hagati akaba ari igishushanyo gifite umutwe ureba hejuru, n'igifite umutwe ureba hasi.

Bari kukwereka icyapa gisa umuhondo n'umukara hagati kikaba gishushanyijeho akamodoka karimo umuntu ku ruhande, bakakwereka umusozi urimo gutengukaho amabuye, bikaba biri mu ibara ry'umukara.

Abantu babiri bari mu rugendo bahetse ibikapu bari ku muhanda, impande yaho hakaba hari imodoka zihaparitse iy'umukara n'iy'umutuku.

Imodoka iri kugenda muri kaburimbo impande yabo akaba hariho akayira k'abanyamaguru munsi yaho hakaba hateye ibiti byinshi.

Inzu za aparitema zo guturamo zifite geti, zikaba zifite na jaride iteyeho ibiti, ku ruhande hakaba harimo kugaragara agahanda ka kaburimbo.

Inzu ya etage ya aparitema ibara rya shokora n'umuhondo, munsi yaho hakaba hariho amagambo yanditseho siteyi apatimenti mu ibara ry'umuhondo.

Itangazo ryo kwamamariza ikigo gikoresha serivisi kuri murandasi kizwi nk'irembo iryo tangazo rivuga ko bafunguye uburyo bushyashya aho bakwishyura serivisi zo muri laboratwari bifashisha mu ibirembo, umunsi hari uburyo wabona aho wabashaka guhamagara kuri mirongo ikenda icyenda n'ikenda

Amazu arimo kubakwa ku ruhande rwaho, hakaba hari umuhanda w'igitaka, ku rundi ruhande hakaba hariho ibyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo impande yaho hakaba hari imodoka n'akayira k'abanyamaguru, ku ruhande hakaba hari agakuta kubabakishijwe amatafari ahiye hejuru hariho utwuma.

Inzu ya hoteli, iherereye ahantu hari ku muhanda, ikaba izitijwe n'igipangu kiri kumwe n'ibiti biteye aho ku ruhande, n'indabo zigiye zitandukanye.

Icyapa gisa umweru n'umukara kiriho inyuguti za keke cumi na kane st kikaba gishinze ku kuma, uruhande rw'ako hakaba hateyeho ibiti.

Umuntu utwaye moto, akaba atwaye gaze, ku ruhande hakaba hariho umugenzi urimo kugenda n'amaguru, hakaba hari n'urusengero ruhubatse. Hakaba hari n'ibiti biteye ku muhanda.

Inzu ebyiri zegeranye imwe ikaba iriho amabati agaragara, imbere yaho hakaba hari iizindi nyinshi zigiye zubatse mu buryo bugiye butandukanye.

Abantu barimo kwambuka mu umuhanda, hakaba hari n'ibinyabiziga birimo biragenda, imbere y'aho hari umuhanda w'abanyamaguru hakaba hari n'imodoka ziparitse.

Imodoka ziri mu muhanda inyuma yazo hakaba hari inzu y'amagorofa y'ubucuruzi, hejuru y'ayo mazu hakaba hariho iminara.

Inzu y'igorofa batangiramo serivisi zigiye zitandukanye, ku mpande hakaba hariho ibyapa byamamaza izo serivise, munsi yaho hakaba haparitse amamodoka.

Umuhanda w'amabuye iruhande rwawo hakaba hariho igipangu ndetse n'igikuta, impande yaho hakaba hariho n'inzu ikaba igaragaraho igisenge hejuru.

Jaride iteyeho ibiti impande yaho hakaba hari igikuta cy'amatafari ahiye, kizengurukishijwe na senyenge, impande yaho hakaba harimo inzu yubatse ifite irange ry'umweru n'amadirishya y'umukara.

Inzu iriho amabara y'umukara munsi yayo hakaba hariho utudirishya ku ruhande dutatu n'imodoka ku ruhande, hakaba handitseho n'amagambo mu nyuguti z'umukara handitseho morato mu kabara k'umweru.

Abantu bari Giporoso, hakaba hari n'abajenti ba MTN, hakaba hari n'imitaka ya Aitel, impande y'aho hakaba hari amarinete bagurisha.

Amazu y'ubucuruzi afite imiryango ifunguye, hejuru hakaba hariho ibyapa byerekana ko bahagurishiriza imyambaro n'inkweto, hakaba hariho n'ibyapa by'abantu bambaye ikositimu.

Umuntu usa nk'uri mu muhanda, ufite agafuka ku rutugu, impande ye hari inzu y'igorofa y'ubucuruzi, hariho n'ibyapa bya eyateri, munsi hakaba haparitse amamodoka.

Umuhanda urimo akayira k'abanyamaguru, ukaba uteyeho ibiti ku ruhande impande yaho akaba ariho kaburimbo igizwe n'ibisate bigiye bitandukanye, hakaba harimo n'abamotari bari mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amabara asa umweru, hagati hakaba hariho indabyo, hirya y'aho hakaba hariho imodoka zicanye amatara.

Umuntu uhagaze uri kumwe n'umumotari basa nkaho baciririkanya ibiciro, ku ruhande rwaho hakaba hari moto itwara imizigo, hirya yaho gato hakaba hari akazu bacururizamo amayinite agiye atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bitandukanye irimo abamotari ku ruhande akaba ari umuhanda w'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo impande yaho hakaba hariho agahanda k'abanyamaguru hakaba hariho n'akazu bicaraho bategereje imodoka gasa ubururu gakikijwe n'ibiti.

Ikiraro cyubatswe mu buryo bwo hejuru, hasi yaho hakaba hariho umuhanda wa kaburimbo urimo guturukaho imodoka, ku ruhande hakaba hariho abagenzi mu muhanda w'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo ufite imihanda ibiri itandukanye, hagati hakaba hariho jaride ziriho amapoto y'amatara yo ku mihanda, ku ruhande hakaba hanateye n'ibiti.

Imihanda ibiri ifite ibisate bibiri bitandukanye, hagati yabyo hakaba harimo pasiparume n'igiti, hakaba hubakishijwe utubara tw'umweru n'umukara.

Umuhanda urimo ibinyabiziga moto n'imodoka, ku ruhande hakaba hariho agahanda k'abanyamaguru, ukaba uzengurukijwe n'amabara y'umweru n'umukara.

Imodoka ziri mu muhanda impande yaho hakaba hari rompuwe iteyeho indabo ndetse n'ibiti ikaba iriho n'amapoto ariho amatara amurika ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibyerekezo bitandukanye ukaba urimo imodoka ndetse na moto, hagati hakaba harimo agahanda k'abanyamaguru bahagararamo bategereje kwambuka umuhanda.

Umuhanda bambukiramo wa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umweru n'umukara, hakaba hari n'ibyapa bicanye amatara y'umuhondo n'umutuku.

Imodoka ebyiri na moto iri hagati iriho umumotari n'umugenzi, kuruhande rwaho hakaba hariho ka kazu abantu bicaraho bategereje imodoka.

Mu muhanda w'ikiraro wa kaburimbo, ukaba urimo ucamo imodoka, ku ruhande hakaba hari umugabo urimo kugendera mu kayira k'abanyamaguru.

Ikiraro kiriho utwuma n'itara ryo ku muhanda, munsi hakaba hariho moto zirimo ziracaho, impande yaho hakaba hariho jaride ziteyeho ibiti.